Abagabo batatu bahagaze kandi bambaye amakoti, imbere yabo ari ameza, inyuma yabo hari intebe bari bicayeho, aho bahagaze hari tapi kandi bari mu nama ya komite mpuzabikorwa y'Akarere ka Nyagatare.

Umugabo uhagaze w'inzobe wambaye amataratara n'ikote n'isaha ku kaboko k'ibumoso, ufashe indangururamajwi mu ntoki ze kandi ayifatishije amaboko yombi, yambaye n'ishati y'umweru, ari kureba imbere ye.

Umuryango wa Imbuto Foundation, bakoresheje ihuriro ry'abantu kandi harimu umugabo ufite indangururamajwi, ari kwivugiramo yambaye n'amataratara, inyuma ye hari abaturage bicaye, abandi bahagaze bakurikiye ikiganiro.

Umugore uhagaze ubyibushye wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, ufashe mikorofone y'umukara ayifatishije akaboko k'iburyo, wambaye n'amataratara ari kuvuga ijambo, inyuma ye hahagaze abandi bagabo.

Umugabo wicaye mu ntebe ari wenyine imbere ye hari ameza, hariho ikaramu n'ikayi na telefone n'icupa ry'amazi, inyuma ye hari izindi ntebe zitarimo abantu kandi amadirishya ariho amarido.

Abagabo bicaye ahantu mu nama umwe afite icupa bose bakurikiye bari guhabwa ikiganiro, bari ku murongo harimo n'abagore baherereye mu gice cy'inyuma.

Umugabo uhagaze wambaye ishati ifite ibara ry'umukara mu mugongo afite indangururamajwi mu ntoki ze ayifatishije amaboko yombi, yambaye n'amataratara imbere ye hari ururabyo rwo mu bwoko bw'iteke, ari kumwe n'abandi bagabo bagenzi be arikubaha ikiganiro.

Urubyiruko rwahurijwe hamwe ruri kuganirizwa ku nsanganyamatsiko igira iti rubyiruko menya amateka yawe rwicaye, imbere yarwo hari abayobozi bari gutanga ikiganiro harimo n'umukozi wa RIB bose hamwe abayobozi bakaba ari bane.

Abantu benshi bicaye hamwe ku ntebe za palastike zifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hubatse ikidare kirimo umuyobozi n'abandi bayobozi bagenzi be bicayemo arimo atanga ijambo.

Icyumba cy'inama ahahuriye abayobozi batandukanye bicaye mu ntebe nziza ariko hagati yabo harimo akameza hariho za mudasobwa zitandukanye n'amacupa y'amazi.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'imyitero y'umweru kandi umwe ari imbere, undi ari inyuma, uw'imbere yambaye isaha y'umukara ku kaboko k'ibumoso.

Intore zihamiriza, ziri mu kibuga, aho zikorera, umurimo wazo wo kubyina, hakurya yazo hari amazu kandi ari ahantu h'umurambi, imbere yaho ziri hubatse itente.

Abakobwa babiri bahagaze bambaye imyitero y'umweru n'imikenyero n'agasengeri k'umweru bateze amaboko bari kubyina kandi umwe ari imbere undi amuri inyuma.

Umugore n'umugabo bahagaze bari kumwe mu myenda y'imyeru kandi isa, inyuma yabo hari undi uri kugaragara umutwe bari mu nzu, hari n'abandi babashagaye bameze nk'abari mu isaba.

Intore ziriguhamiriza, umuhungu afite icumu, bagaze kuri tapi kandi buri wese agiye ari kumwe n'umukobwa, bicaye kandi abantu benshi bafite amaji ku meza yaboho.

intore ziri kubyina mu mbyino gakondo za kinyarwanda, zambaye ziteye imyenda y'imyeru kandi ziteze amaboko, imbere yazo hari abantu bicaye bari kwitegereza iyo mihango n'uburyo zibyinamo..

Umukobwa mukuru uhagaze, witeye imyitero kandi ari kubyina bya kinyarwanda, yambaye ishaneti mu ijosi kandi yateze amaboko, inyuma ye hari undi imbere ye hari abandi bantu.

Umugabo uhagaze, wambaye isaha y'umukara, ku kaboko k'ibumoso, wambaye n'impeta, yambaye ishati iciye amaboko, ifite amabara atandukanye, yambaye n'amataratara, afite mikorofone, arimo ayivugiramo, ayifatishije amaboko abiri.

Intore ziri guhamiriza ziganjemo igitsina gore inyuma yabo hari abagabo bafite udukoni, inyuma yabo hari ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, aho bari mu kibuga hakaba harimo utwatsi tumeze ariko bidakuze cyane.

Udukoresho dutandukanye tumeze nk'amabiye, ariko none tumeze nk'igi turi hamwe tumennyemo tumennyemo udusaro imbere, bakoreshaga mu muco nyarwanda.

Imbyino gakondo ziri kubyinywa n'abakobwa batatu, umwe ari imbere, undi akurikiyeho n'undi ari inyuma, bakenyeye imyeru kandi imbere yabo hari abantu bahicaye barimo babareba.

Intore zihagaze zifite amacumu mu ntoki akoze mu biti kandi imwe iri imbere y'indi, indi iri inyuma, iy'imbere ifite ingabo mu ntoki zose zijya kureshya.

Abantu babiri bicaye barebana ku ntebe y'urubaho ikoze mu giti hagati yabo harimo igisoro barimo bakina, umwe yashyizeho akaboko yiteguye gukina.

Ikibo gikoze neza, kiboshye neza, gifite amabara y'umweru n'ay'umukara kandi gifite umufuniko wacyo uriho n'agashumi ahagana hejuru kuri wo giteretse kidafashwe n'umuntu.

Intore ziri kubyina icyo bita ru guhamiriza ziri hamwe kandi ziganjemo abakobwa, bafite imyitero isa, bambaye udusaro ku majosi kandi imbere yabo hicaye abagabo.

Igikoresho cyifashishwa, mu kuyungurura, amazi, cyitwa Firita, kimeze, nk'ikigega, imbere yacyo, hari umuntu, uhagaze, arikubyitegereza, yambaye ijile, n'ingofero, n'ipantaro.

Umugabo uri gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ricometse hari byinshi afite icyo asuzumisha mu ntoki, kirimo imibare cumi na gatatu mirongo itatu na kabiri agifatishije akaboko k'iburyo.

Umukozi w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe umuriro w'amashanyarazi REG wambaye isarubeti nomero magana ane mirongo ine n'icyenda, yambaye na kasike y'umweru ari gukanda kuri konteri ibara umuriro.

Ibyuma by'umuriro w'amashanyarazi byubatse ahantu hamwe, harimo amapoto n'ibindi bitandukanye hafunze, harimo umugabo wambaye ikote ariko n'agapfukamunwa k'umukara, ufite n'ikayi mu ntoki n'ikaramu.

Umugore ukora mu miriro y'amashanyarazi, yambaye imyenda y'akazi kandi yambaye n'ingofero, ibisuko ku mutwe, inyuma ye hari ijambo ryanditse mu ibara ritukura REG, kandi arimo akanda kuri KonterI ari yo mubazi ibara umuriro wakoreshejwe.

Amapoto ariho insinga nyinshi kandi ariho umugabo wuriye wambaye isarubeti n'ingofero arimo akora kandi yiziritse ku giti.

Ipironi ri biteye ahantu ku ishyamba kandi ririho amasinga menshi ajya mu byerekezo bitandukanye, iruhande rwaryo hari igiti kinini gifite amashami akura arisanga.

Inzu iri ku muhanda isakaye, ifite urugi n'idirishya, inyuma yayo hari amapironi anyuramo insinga z'amashanyarazi kandi uwo muhanda nawo ukoze neza ufite utuborodire ku mpande.

Ipoto rikoze mu cyuma rishinze ririho amansinga agenda mu byerekezo bitandukanye, ryuriwe n'umugabo ukora mu miriro y'amashanyarazi kandi yambaye ingofero y'umweru ari hejuru ku mansinga.

Abantu bahagaze, harimo abakozi bo muri REG, ishyirahamwe rishinzwe umuriro w'amashanyarazi, kandi hari n'umugabo ufite ikarine mu ntoki, abandi buriye bari gukora umurimo.

Amapironi anyuraho insinga z'amashanyarazi icyapa cya REG, ishyirahamwe rishinzwe umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, umuhanda wa kaburimbo ukoze neza ufite boloke sima ku mpande zisize irangi ry'umweru n'iry'umukara.

Ipironi riteye ahantu hari ishyamba ridakuze cyane, hafi yaryo harunze amatafari, hakurya ari amaterasi y'indinganire agiye ahinzeho imyaka.

Ahantu mu gisambu hari ibyatsi bikeya n'ibiti bitari bikuru cyane hari ifoto yaguye irimo yegurwa n'abantu batandukanye ariko bose b'igitsina gabo bariteyemo ibiti bari ku ryegura.

Ahantu hatunganyije neza, hamezeze neza, hari ibikoresho byifashishwa umuriro w'amashanyarazi, nka jenereta n'amapironi byose birahari n'utu bogisi tuba turimo amasinga, akaba ari ku mbuga yabyo.

Mu isantere ahari amazu y'ubucuruzi yubatse neza asize irangi, afite za gitifu, harimo n'amapoto abiri ategeranye yose, yuriwe n'abakozi bo mu muriro w'amashanyarazi bari gukora umuriro.

Ipironi ryubatse ku muhanda, ririho amasinga ryuriwe n'abakozi b'umuriro, umwe yazamutse abandi babiri bari hasi, na we ataragerayo akirimo hagati bararamye bari kumureba.

Inzu, zubatse neza, zifite, indabyo, imbere, yazo, kandi hafi yazo. haraho hari imigezi yo gukarabiramo, kandi inyuma yazo, hari ibiti binini, bikuru.

Ku kibuga cy'umupira cyubatse kandi kinini, kimeze neza, imbere yaho hari abantu bahagaze, abandi bari hejuru, hari imodoka ihaparitse, iriho abantu kandi ifunguye.

Inzu imeze neza ya leta isakaje amabati y'ubururu, izengurutswe n'ibiti imbere yayo hari ikigega kinini giteretse hejuru aho cyubakiye na sima kandi imbere yayo harimo utu jaride turimo indabyo zitandukanye.

Igicumbi cyubatse neza cyubakishije sima, giteye amarangi ari mu buryo bw'ibendera ry'Igihugu, kikaba ari igicumbi cy'itorero ry'Umudugudu wa Gisenyi.

Inyubako ya Leta isize irangi ryy'ububururu yanditseho ngo gira ubuzima, imbere yayo hari abantu bahagaze higanjemo abagabo n'abagore bakeya kandi ku ruhande rw'iburyo hahagaze umusirikare munini ubyibushye.

Inyubako nziza ya leta isize irangi ry'ubururu, hanze hari intebe yanditseho ''girubu ubuzima health center'' imbere yaho hicaye abantu kandi nayo umuryango ufunguye.

Inyubako za Leta ziri ahantu hatandukanye hanini ku buso bunini giherereye. Hagati harimo umuhanda zimwe zubatse hepfo izindi haruguru. Muri uwo muhanda harimo imodoka ziri kugenda mu cyerekezo kimwe kandi nini za rukururana.

Umuhanda munini w'igitaka urimo moto n'igare bishoreranye ariko moto ijya kuba nk'iri imbere inyuma yayo hari abantu, umugabo urimo ujya mu kerekezo kimwe n'ibyo binyabiziga, iruhande rwaho hari imodoka ziparitse.

Inyubako ya leta yubatse neza isize irangi ry'ubururu rinoze ifite indabyo, imbere yayo hari n'imbuga y'igitaka, arimo moto ahagana mu muryango, imbere yayo hari umuntu yanditseho ngo gira ubuzima.

Ku mupaka wa Repubulika ya Uganda n'u Rwanda hariho icyapa cyanditseho ayo magambo imbere yacyo hari perezida w'u Rwanda yambaye amarinete kandi hirya ye hari umusirikare wo mu itsinda rya CTU kandi hino yaho hari undi mugabo uri kwifotoza.

Sitade, iriho, ikibuga cy'umupira, gikoze neza, kirimo tapi, kandi, hakurya yaho, hari inyubako, yaho abafana, bicara, mu myanya, y'icyubahiro.

Umuhanda wa kaburimbo imbere yaho hariho amatara andi iruhande rwawo hariho inzira y'abagenzi irimo abagenzi bari kugenda hafi yaho hari ibiti bihateye, hakurya yaho hari amazu menshi.

Inyubako ya Leta yubatse neza ahantu ku muhanda ariko h'igitaka izengurutswe n'ibiti bitari ishyamba bigiye biteye neza ku murongo, umuhanda hari n'itara ryo kumuhanda ricana kandi hafi aho hari inyubako zindi ziri hirya yayo, iyi ngiyi ikaba isakaje amabati y'ubururu.

Ikibuga cy'umupira kuri sitade cyubatse neza gifite amazamu kirimo na tapi ariko kitarimo abakinnyi n'aho abafana bicara baticaye umuntu.

Ikiraro cyubatse neza kandi gifite ubwirinzi, ku impande kiriho moto iri kugenda yicayeho umugabo umwe wambaye agapira k'umweru kariho n'ibara ry'umukara handitseho nimero icumi.

Umugabo uhagaze ufashe indangururamajwi mu ntoki akoresheje amaboko yombi, ari mu nama iyobowe na we atanga ikiganiro, aho abandi bicaye bateze amatwi bamukurikiye, harimo n'abapolisi kandi bose imbere yabo, hagiye hari ameza ariho amacupa y'amazi.

Umudasso wambaye ingofero y'akazi yicaye, imbere ye ku meza uri hagati ye nundi mugore hari icupa ryamazi, ku meza nanone hari urupapuro, kandi imbere ye hari umumama wicaye ku ntebe y'umukara, yambaye amalinete n'iherena ku gutwi yambaye n'isaha n' impeta ku kuboko kw'ibumoso.

Abagabo bahagaze bari kumwe n'abagore bamwe bambaye amakarita y'akazi, bari imbere y'inyubako no munsi y'ibiti bikuze biteye neza, iruhande rwabo ari indabyo kandi nazo zikuze zamaze gufata.

Abantu benshi bari ahantu ku mbuga nini bahagaze ku buryo buzengurutse bamwe hepfo abandi haruguru, hagati hubatsemo amatenti, bamwe bicaye harimo abari gutanga ibiganiro.

Abantu bahagaze hamwe, imbere yabo bubatse itente kandi aho bari hari tapi y'ubururu, inyuma yabo hari bufule kandi umwe afite mikoro bameze nk'abagiye kuririmba.

Umugabo munini ubyibushye ufite ibitugu binini, wambaye umupira w'amaboko y'umukara w'umweru uriho imibare mirongo itatu kandi akaba afite mikorofone mu ntoki y'umukara ayifatishije amaboko yombi.

Abagabo bahagaze bageze kuri batanu bari ku murongo, harimo n'umupolisi nyuma yabo hari insina kandi amwe mu makoma yayo yenda kuma, bose bari kureba imbere yabo.

Inteko rusange yabaturage bahuriye hamwe ahantu mu twatsi hari imbuga nini imbere y'inyubako kandi hari n'ibiti binini bikuze bicaye munsi yabyo abandi bicaye ku ntebe zimbaho abandi za parasitike bakurikiye inama iri kuba.

Inama rusange y'abaturage iyobowe n'umuyobozi uhagaze afite mikorofone mu kaboko k'iburyo na terefone mu kaboko k'ibumoso yambaye n'impeta abaturage bicaye imbere ye kandi inyuma ye hicaye abandi bayobozi barimo umusirikare n'umupolisi.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza, hariho icupa ry'amazi, n'ikayi, n'ikaramu, ni umupolisi wambaye imyenda y'akazi, iriho inyenyeri ebyiri, n'ikirango k'Igihugu.

Abantu bicaye hamwe benshi nk'abari mu nama ahubatse amatente, imbere yabo hari udutabulete turiho amacupa y'amazi abira abiri, bamwe bafite amakayi bari kwandikamo, abandi inyuma bahagaze.

Inama y'abaturage, yitabiriwe n'imbaga nyamwinshi, higanjemo abagabo n'abagore, harimo n'abana batoya, barimo abafite imitaka, inyuma yabo hari ibiti bikuru, abandi bicaye ku twatsi twa pasipalume.

Abagabo bahagaze hamwe ku murongo, harimo n'abasirikari batatu kandi harimo n'abagore bakeya kandi harimo n'abandi bacunga umutekano mu zindi nzego, bameze nk'abari gufata ifoto.

Abantu benshi bicaye mun nzu sale ahabera inama, bari gukora inama bamwe bafite amakayi igikapu giteretse imbere, hari n'ameza hariho mudasobwa icupa ryamazi na porojegiteri irimo iporojegita ibyo bari kuganira.

Inyubako zubatse neza imbere yazo hari amapoto ariho amasinga agiye yambukiranya rimwe kuri rindi, hari nk'icyapa mu ibara ritukura n'iry'umweru kiriho umuntu ushushanyije yambuka umuhanda.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyura hagati mu isantere, hakurya yawo hariho indabyo kandi mu muhanda hariho moto iriho umuntu umwe wambaye kasike ahetse imizigo.

Icyapa, kiyobora, abagenzi, kibamenyesha, uburyo, bagomba, kwambukamo, umuhanda, kiri mu ibara, ritukura, kishushanyijemo, umuntu, uri kwambuka , mu ibara ry'umweru, hafi aho, hari n'igiti.

Umuhanda w'igitaka ahantu bigishiriza gutwara ibinyabiziga hari umumotari wicaye kuri moto iparitse yambaye kasike indi ayirambitse kuri moto, hakurya ye hari imodoka zitandukanye zihaparitse.

Urugo rwubakishije amabati adashaje kandi nanone atari mashyashya cyane, hariho n'igishushanyo mbonera cy'inyubako igiye kubakwa, akaba ari inyubako nziza igeretse bizwi nka etaje.

Umuhanda wa kaburerimbo munini urimo igare riri kugenda ririho umugabo wambaye bote ahetse ibintu inyuma, yambaye n'umupira kandi iruhande rwe hari ikibambasi n'igikuta n'urupangu n'izindi nzu.

Umukorerabushake wa Croix rouge uhagaze afashe ku modoka iparitse urugi rukinguye yambaye ipantaro y'itiriningi y'umukara iriho amabara y'umweru ku ruhande n'imirongo imanuka hariho iry'umutuku, inyuma ye hahagaze undi musore na we ari kureba mu modoka.

Inteko y'abaturage bahuriye hamwe, umwe ari gufotora abandi bateze amaboko, abandi bari gukoma amashyi, umwe muri bo afashe isuka mu ntoki, bahagaze munsi y'igiti cyakuze kigeze hejuru kiraganza cyitwa umusebeya.

Abantu benshi biganjemo abagabo bari gukora igikorwa rusange kandi bamwe bafite amasuka kandi abandi bambaye inkweto, mu gihe harimo n'abasirikari batatu abandi bakaba ari abaturage.

Inama yabaabaturage bateraniye hamwe, ahantu h'igisambu kirimo byatsi bigufi, imbere ari intebe ya plastike y'ubururu yicayemo umugabo, kandi abaturage bahagaze imbere yabo hari uri kubabwira ijambo wambaye bote n'ishati y'umukara, ahuje amaboko yombi.

Abagenzi bicaye hamwe ku murongo, higanjemo abagore n'abagabo bakeya, bamwe bagiye bambaye isheneti mu ijosi n'umusore uhagaze wambaye umupira uriho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyanditseho ngo gerarayo amahoro, icyapa afashe mu ntoki.

Inama rusange yabaturage iyobowe n'umugore uhagaze wambaye isaha, ari gutanga ikiganiro akigeza ku baturage bicaye imbere ye inyuma ye, hari umukozi wa polisi ndetse n'uwa RIB n'undi mugabo wicaye ku ruhande.

Umuganda, rusange, wahuje, abaturage, n'abapolisi, n'abasirikari, bari mu ishyamba, riteye, ku murongo, rifite ibiti, bikuze, kandi rinini bibyibushye, harimo n'abakorerabushake.

Umugore wambaye bote uhagaze mu twatsi n'ipantaro n'ishati byo mu bitenge, inyuma ye hari inzu yubatse umuryango ukinze kandi idateye amarangi ariko ifite inkingi imbere.

Abaturage bari hamwe, bari mu misango, bishimanye bamwe bari gukoma amashyi abandi bari kubyina, umwe yambaye ingofero, abandi batayambaye, bamwe batezi ibitambaro abandi batabiteze, bamwe bafite imisatsi kandi bogoshe, harimo n'abagabo. inyuma yabo hari inzu.

Igikorwa cy'umuganda rusange cyahurije hamwe abantu benshi batandukanye bari kwita kubidukikije bamwe bakoresheje amasuka, abandi bafite imipanga abenshi bambaye imipira y'umukara hejuru hari n'umusirikari, inyuma yabo hari n'imodoka zihaparitse.

Inteko y'abaturage yahuriye hamwe ahantu bicaye abenshi abandi bahagaze, ahagana ku mpande hafi yabo hari inzu ihubatse, imbere yabo hari igiti kinini kidafite amashami kandi imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi n'urupapuro mu ntoki ari gutanga ikiganiro.

Umusore w'umuhungu uri kwirukanka kuri baro irambitse mu byatsi atarayigeraho, hakurya ye hari urupangu rurimo inzu nini kandi rufite ikigega cy'umukara giteretse hejuru kijyamo amazi aturutse ku mabati.

Ku kibuga cy'umupira ahari umukinnyi ufashe baro mu ntoki ari kumwe n'umugabo n'undi mugore bateruye igikombe batsindiye cy'Umurenge Kagame Cup bo mu Karere ka Nyagatare.

Mu kibuga cy'umupira aho bakorera imyitozo ngororamubiri n'amarushanwa agiye atandukanye, harimo abakinnyi, umwe agiye kugwa, undi amuhagaze hejuru, bamwe bambaye imyenda itukura barimo barebana.

Umugabo n'umugore bahagaze inyuma, imbere yabo hari abasore babiri bombi bambaye imipira y'umweru, umwe yambaye n'agashaneti mu ijosi ari kurya umuriro.

Umugabo wicaye ku ntebe z'abasimbura mu kibuga cyumupira wa maguru, wambaye ikabutura y'umweru n'umupira kandi imbere ye hari ibikapu byinshi, bimwe iburyo ibindi ibumoso.

Mu kibuga cy'umupira ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, harimo abakinnyi bane bari gukina n'undi ari mu izamu, aho afata imipira kugira ngo itinjira hakabarwa ibitego by'uko ikipe itsinzwe.

Igishushanyo kijyanye n'ibya siporo cyanditseho ngo "uko amakipe yatsindanye mu murenge kagame cup mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane n'ibihumbi bibiri makumyabiri na gatanu abagabo muri kimwe cya munani".

Inyubako nziza, nini, igeretse inshuro nyinshi, ifite ibirahure, imbere yayo hanyura insinga z'amashanyarazi, mu muhanda imbere yaho ya kaburimbo, harimo abaturage bari gukora imyitozo ngororamubiri, mu buryo bwo kwiruka.

Kuri stade ikibuga cy'umupira aho bakorera imyitozo ngororamubiri n'amarushanwa agiye atandukanye, harimo abakinnyi bahagaze ku murongo ab'imbere basa nk'abunamye cyane ab'inyuma bunamyemo gahoro barimo bifotoza.

Mu kibuga aho abakinnyi bakinira umupira w'amaguru, harimo abakobwa bari gukina bakora'imyitozo ngororamubiri, umwe yaguye ariko akaguru yakarekeye ku mupira, undi mugenzi we awuriho ahagaze ashaka kuwumurenza ngo awujyane.

Ku kibuga aho bakorera imyitozo ngororamubiri, hari abantu benshi bahahuriye bari kuyikora, bamwe bambaye amapantaro, abandi amakabutura, abandi imipira y'amatisheti, abandi iy'amaboko, umutoza wabo abari imbere.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira aho bakorera imyitozo ngororamubiri, barimo kwirukanka mu byerekezo bitandukanye, bamwe bambaye amajezi asa ubururu n'abandi bambaye ayabo asa umuhondo kandi hakurya y'ikibuga hari inyubako yubatse neza.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye amajezi asa kandi bose bari mu kigero kimwe barimo bakora imyitozo ngororamubiri yo mu bwoko bwo kwirukanka abenshi bari ku murongo, umwe yasigaye inyuma y'abandi.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bicaye ku kibuga mu ntebe z'abasimbura kandi bambaye amajezi bameze nk'abiteguye kujya mu kibuga, aho bari ku murongo bafite n'igikapu, imbere yabo kandi bose bakurikiye umukino.

Ku kibuga cy'umupira, harimo abakinnyi bari gukina, abagera kuri bane bahagaze, umwe ari ku mupira, undi amuri inyuma, hakurya ye hari umukobwa uri gutambuka, hirya yabo hari n'amazu n'ibiti binini by'imiseya.

Mu kibuga cy'umupira ahakorerwa imyitozo ngororamubiri n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro bigiye bitandukanye harimo abakinnyi bari gukina, umwe yageze ku mupira mugenzi we amuri inyuma arimo amwirukankaho.

Mu kibuga harimo umugore n'abagabo babiri umwe yambaye bote undi w'umugore yambaye inkweto zifunze n'ipantaro y'umukara bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Muri sitade ku kibuga cy'umupira aho abantu bahurira bagiye mu bikorwa byo kwidagadura ahakorerwa imyitozo ngororamubiri harimo abakinnyi mu kibuga bari kwirukanka bakoreshwa n'umutoza wabo.

Inama yahurije hamwe abantu benshi, higanjemo abagabo bicaye ku ntebe z'imbere z'ibyuyubahiro, bafite amacupa y'amazi mu ntoki kandi bakurikiye ikiganiro bari kugezwaho n'uwayitumije.

Umupira wamaguru uri mukibuga uri gukinwa n'abakobwa, aho umwe ageze hafi na ballon, inyuma ye hari undi uri kumwirukaho, hepfo ye mu kaboko k'ibumoso hari abandi babiri bahagaze, mu k'iburyo hirya ye, hari undi uhagaze, inyuma yabo hose hari agashyamba.

Mu kibuga cy'umupira aho akorera imyitozo ngororamubiri harimo umugore ubyibushye wambaye ipantaro y'umukara umupira ufite nimero icumi ahagaze ku mupira wa balo imbere ye hari umugabo nawe wambaye imyenda ya siporo y'umuhondo ategereje ko amutera umupira.

Mu kibuga cy'umupira ahari amazamu batsindamo ibitego, harimo abakinnyi batatu, umwe ari kugenda yerekeza ku izamu, aho undi ari kuvayo aturuka aho umwe ari kujya.

Kuri sitade mu kibuga cy'umupira ahakorerwa imyitozo ngororamubiri n'ibikorwa binyuranye by'imyidagaduro, harimo abakinnyi bari gukina umwe ageze kuri baro agiye kuyitera ishoti, undi yamuturutse imbere ashaka kumwitambika kugira ngo adatsinda igitego.

Abantu benshi bari ku kibuga cy'umupira aho bakorera imyitozo ngororamubiri yiganjemo abagabo n'umugore, umugabo wambaye umupira w'umuhondo uriho nomero eshanu, abandi barimo bambaye udupira tudafite amakoti.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru harimo tapi, abakinnyi batatu, umwe ariko kumupira wa ballon abandi babiri bari imbere ye baje kumwaka nibwo itaregerana neza.

Ihuriro ry'abantu benshi bari mu gikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri, bari mu kibuga ahantu hanini, mbere y'aho hari umutoza ari kujya abereka amoko atandukanye ya siporo bagomba gukora, kugira ngo bagorore ingingo zabo.

Mu kibuga cy'umupira aho abantu bahurira bakahakorera imyitozo ngororamubiri n'ibikorwa bindi byerekeye imyidagaduro, harimo abakinnyi bari gukina kandi umwe ageze imbere y'umupira abandi bawushoreye n'abandi bari guturuka kure inyuma yabo.

Abaturage benshi mu gitondo cya kare bari gukoraimyitozo ngororamubiri bari ku murongo ku muhanda wa kaburimbo, iruhande rwabo hari utwana dutoya tubiri, inyuma yabo hari akazu ka mtn kifashishwa batanga amayinite.

Mu kibuga cy'umupira aho akorera imyitozo ngororamubiri kandi bakorera n'amarushanwa y'umupira w'amaguru, harimo abakinnyi bahagaze, umwe ahagaze hafi y'umupira uteretse imbere ye, aho baterera penaliti.

Abana batoya bari mu kigero kimwe mu kibuga cy'umupira ahakorerwa imyitozo ngororamubiri. Umwe w'umuhungu mukuru muri bo agiye kugera kuri baro ngo ayitere ishoti abandi bagenzi be baje kumwataka.

Umuhanda wigitaka iruhande rwawo hari ibyatsi unyura mu mazu yubatse neza y'ibipangu urimo moto yicayeho umugabo kandi ihagaze yambaye kasike imbere yaho hari iteme.

Umuhanda nyabagendwa ukozwe n'amabuye ashashe neza harimo umumotari ubisikanye n'umuyonzi uhetse ibitoki ku igare, inyuma ye hari undi muntu urimo amusunikira kugira ngo ibashe kwihuta.

Umuhanda mu gice cy'abagenzi aho banyura kugira ngo batagongana n'imodoka, harimo amapave ashashe ku buryo bwegeranye kandi akoze mu buryo butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye moto kandi ahetse amajerekani menshi, amwe ahambiriye ku mpande, andi ageretseho hejuru hakurya y'umuhanda hari ibiti bikuze kandi biteye ku murongo.

Ku gasantere ahaparitse moto nyinshi, hari n'ibyapa MTN, bitangirwamo amanite, hari moto ihagaze ahari umuhanda w'amabuye ashashe neza, afatishijwe na sima kandi arimo areba inyuma.

Umuhanda wo mu cyaro w'igitaka udakoze neza, ukikijwe n'igihuru kirimo ubwatsi n'ibindi biti bitemye bitari ibyuma, arimo inka ziri kurisha ebyiri kandi zitandukanye, hakurya yazo hari abashumba baziragiye.

Inzira nyabagendwa yo mu mudugudu mu cyaro kandi irimo abantu babiri bari kugenda umwe mu kaboko k'iburyo undi mu k'ibumoso harimo umukobwa n'umuhungu bashoreranye wagirango ngo nta gahunda bafitanye.

Iruhande rw'umuhanda aho abagenzi bagendera, hari agateme mu kayira k'abagenzi, iruhande rwako hari ibyatsi ariko nta muntu urimo ahagenda, hari ahari amakoni ahandi adahari.

Umugore uhetse umwana, amutwikiriye, ufite agakapu mu ntoki, mu kaboko k'ibumoso kandi uteze igitambaro gisa nk'igitenge akenyeye, ari kugenda mu muhanda, hakurya ye hari inyubako, hino ye hari ubusitani buririmo indabyo.

Ku muhanda w'igitaka utarimo kaburimbo ariko utsindagiye urimo umwana w'umukobwa urimo agenda yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara n'agakoti k'umukara n'agakoti k'umukara kariho amabara y'umweru, afite telefone mu ntoki, ahetse n'agakapu ke n'imisatsi n'ibisuko ku mutwe.

Umugabo ukuze uri mu muhanda wambaye ishati y'umweru mu nzi y'abagenzi arimo agenda, inyuma ye hari abandi bantu batari kugenda mu kerekezo kimwe na we, hepfo y'umuhanda ahagana ku gasantere hari aga kiyosike bacururizamo amayinite ya MTN.